Ni ikuvuga ngo ubu mu Rwanda dufite iterambere, iterambere aho rituruka cyane cyane ni ku itumanaho rya interinete, kuvugana, kubona amakuru ntabwo bigisaba kujya, aho wibereye ushobora guhamagara n'umuntu ukabona amakuru ukoresheje itumanaho.